Inzu ntoya yagererenywa n'akabari gaciriritse. Icururizwamo ibinyobwa bisembuye by'amoko atandukanye. Harimo byeri, izizwi nk'icyuma gusa bitari byinshi. Imyanya ya etajeri myinshi igaragara ko nta nzoga zirimo. Bafite n'aho bicaza ababagana ahagera ku myanya ine.

Mu masaha y'ijoro aho abantu b'ingeri zitandukanye bateranijwe no gusangira icyo kunywa, ahazwi nko muri bare. Iyi kandi bayise bone ini amasiteridamu. Bigaragara ko ari ryo zina rya bare. Abakobwa, abasore bose bari hamwe bari gusangira inzoga z'amoko yose.

Inzu ndende izi nka Etaje ifite imijyango myinshi aho kuri folo yo hasi, umujyango gumwe ucururizwamo ibicuruzwa bitandukanye ikizwi nga Botiki naho hijya y'aho hakorerwa amatelefone n'utundi dukoresho ng'utwo.

Inzu nini y'ubucuruzi iriho imijyango myinshi, ikorerwamo ibikogwa bitandukanye. Twavuga nk' umujyango wo hagati ucururizwamo ibikoresho by'ubwubatsi, ibizwi nka kenkayori aho hacururizwamo amarangi, amasima n'ibindi bikoresho bitandukanye mu bwubatsi.

Inyubako igaragara nkiy'ubucuruzi ndende ikoregwamo ubucuruzi bukunze kwitwa Butike hacururizwamo ibicuruzwa bisanzwe byo mu giturage harimo imiceri, akawunga, umunyu n'ibindi ng'ibyo. Hejuru hariho na Kanali Pulisi ibafasha kureba imipira.

Iduka rito bicururizwamo ibiribwa bitandukanye nk'imiceri y'ubwoko bwose harimo imifuka minini n'imito igerekeranye igera hejuru ndetse undi muryango bifatanye urimo aho bakorera amaradiyo ibikoresho bya elegitoronike n'ubikora abyicaye iruhande ndetse n'umuziki iruhande rwe.

Agashami ka Banki y'abaturage yahoze yitwa Popilere, gaherereye mu Karere ka Gakenke, aho abaturage baturutse hirya no hino baje gushaka serivisi za Banki nko kubikura no kubitsaga amafaranga yabo n'ibindi.

Inzu itangirwamo amafunguro amwe n'ibyo kunywa by'ubwoko bwose ku zizwi nka resitora .Igaragara ko yakira abantu benshi by'umwihariko abafite imodoka, bafite aho kwinjirira hagari ndetse hakagira n'aho abanyamaguru binjirira .Imbere hakaba aho gukarabira ku bantu bamaze gufungura ndetse n'abavuye mu bwiherero, n'uharinda bazwi nk'abazamu.

Ahagaragara nko ku muryango w'isoko hacururizwaga ibintu byinshi birimo: imbuto, ibinyobwa, nka ji z'amoko yose udukapu bahahiragamo ndetse n'imitaka icururizwagamo amayinite, bisa nkaho abakiriya ari bake.

Umubyeyi uhagaze aho asanzwe akorera akazi ke k'ubucuruzi bw'ibikomoka ku bihingwa, twavugamo nk'amafu y'ubwoko bwose akorwamo igikoma cyo gutunga abana n'ababyeyi batwite, kugira ngo babashe kubaho ubuzima bwiza.

Umubyeyi uhetse umwana ari ahakorerwa cangwa se hasanirwa ibitabo cane cane bikubiyemo ijambo ry'Imana, asa nk'aho nawe ari umwe mu babisana mu mirimo igiye itandukanye, iba muri uwo murimo.

Mu gasantere hakunze gukorerwa agasoko k'ikigoroba, aho umubyeyi na bagenzi be bazana ibicuruzwa birimo indagara cane cane zicuruzwa ku batazifite.